Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba yambaye n'ikote ry'ubururu akaba ahetse igikapu kimwe ikindi agifashe mu ntoki, hagaragara icyapa cy'ikigo cyitwa sonarwa: iki kikaba ari ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'ubwiteganyirize ku bantu.

Icyapa kiriho umuntu ndetse akaba agaragara yuko ari kwamamaza ikigo cyitwa Radiyanti aho gishinzwe ubwishingizi ku bantu, aho umuntu ashobora kuba yakwishingirwa n'iki kigo igihe cyose yabisabye hanyuma akirinda ingorane z'ejo hazaza.

Imodoka zitandukanye ziri mu muhanda ndetse haragaragara icyapa hejuru cyanditseho amagambo agendanye no kwizigamira ndetse akaba ari ikigo cy'ubwishingizi, aho gifasha abaturage kwizigamira.

Abantu batandukanye umwe akaba yicaye ku meza, ndetse undi akaba ahagaze, n'undi inyuma ye ahagaze hagaragara icyapa kiriho izina radiyati iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'ubwisungane.

Icyapa kiriho umuntu wishyimye ndetse hakaba hariho n'izina ry'ikigo Buritamu. Iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho kishingira abantu mu buryo butandukanye kugira ngo barusheho kuba bakwiteza imbere ndetse bakanizigamira.

Icyapa kiriho abantu babiri, ndetse biragaragara yuko bari kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Buritamu, iki kikaba gifasha abantu kubishingira mu buryo butandukanye; yaba se ibicuruzwa, yaba se ibyahuye n'inkongi.

Icyapa kiriho umuntu ufashe ibiganza yabishyize ku matama, akaba agaragara yuko yumiwe ndetse haragaragara n'amagambo atandukanye kuri icyo cyapa, aha bakaba arimo kwamamaza yuko ukeneye serivisi zijyanye n'ubwisungane ndetse n'ubwishingizi ari hano wabariza.

Icyapa kigaragaza ibintu bitangwa n'ibigo by'ubwishingizi, ibigo bidufasha kugira ngo turindwe ingorane z'ahazaza. Ndetse aho bitwishingira mu gihe cyose twahuye n'ingorane.

Uru ni urupapuro rw'umukara rwandikishije amagambo y'ibara ry'umweru, uru rupapuro rukunda gukoreshwa muri banki igihe umukiriya yagiye ayigana yagiye kubitsa cyangwa kubikuza mu gihe bari kwemeza amafaranga mu mashini kugira ngo ngo bemeze ko yabikije cyangwa yabikuje.

Icyapa kigaragaza application ikoreshwa muri banki aho ishobora kwifashishwa mu kubitsa ndetse no kuba yakoherezwaho amafaranga aho umuntu cyangwa se umukiriya wa banke ashobora gukora serivise zose akoresheje telefone ngendanwa.

Apulikasiyo iri muri telefone igaragaza kohereza ndetse no kwakira amafaranga, iyingiyi ikaba ikoreshwa na banke zitandukanye kugirango umuntu wese, umukiriya wese wa banke abashe kuba yabitsa amafaranga ndetse anayabikuze.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye: harimo imyenda, harimo imitako ndetse harimo n'ibikapu bitandukanye, ahangaha akaba ari ahantu umuntu ashobora kujya kugura ibyo yakenera byose muri ubu buzima.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye, harimo ibinyobwa, harimo nibiribwa, harimo amatapi, harimo ibirungo, harimo amabase, ibyo kurya bitandukanye, haragaragara umucuruzi uri kwandika inyemezabwishu, ndetse hakagaragara n'umuguzi uje abagana.

Iduka ririmo ibikoresho bitandukanye harimo ibidoze, harimo imitako, harimo ibiribwa, harimo imipira yo kwambara, aha umuntu ufite amafaranga akaba abasha kujyayo akagura icyo ashaka.

Iduka ririmo inkweto zitandukanye: yaba iza abagore cyangwa iza abagabo, yaba izifunze cyangwa izifunguye, aha ngaha umuntu ufite amafaranga akaba yajyayo maze agahaha urukweto ashaka.

Imipira myiza imanitse ku dukoresho twabugenewe, aha ngaha akaba ari mu iduka ry'imyenda ndetse aha abantu bakaba bakunze kuhajya bakeneye umwenda mwiza kugira babashe kwambara neza, baberwe.

Inkweto zifunguye ziteretse ku meza ndetse haragaragra n'ibindi bintu bitandukanye muri etajeri birimo imyambaro, imikenyero ahangaha akaba ari mu iduka ushobora kujya guhahira icyo ukeneye cyose.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda, harimo ndetse n'ingofero n'ibindi bitandukanye, aha ngaha umuntu akaba ashobora kugenda afite amafaranga akabasha guhaha icyo ashaka cyose.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse haragaragara umuntu uhagaze, n'undi uri kumwakira, bigaragara yuko arimo kumufasha, kugira ngo yishyure ibicuruzwa bitandukanye.

Icyapa kigaragaraho isakoshi ndetse aha ngaha bakaba ari mu buryo bwo kwamamaza ibicuruzwa bicuruzwa, bakaba bari gukoresha ikoranabuhanga ku buryo umuntu wese ushaka akoresheje ikoranabuhanga ashobora guhaha.

Iduka ririmo imyenda itandukanye ndetse biragaragara yuko ririmo riramamazwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo umuntu ashobora kuba yarigana yifashishije telefone ye ndetse na mudasobwa, akaba yanahaye ibintu bakayimuzanira mu rugo iwe atavuye mu rugo.

Abantu babiri bahagaze bakaba bafite icyapa cyanditseho ABG Akagera Motors, inyuma yabo hakaba haparitse imodoka iki kikaba ari ikigo gishinzwe ubucuruzi bw'imodoka.

Amamodoka meza aparitse ndetse iruhande hakaba hagaragara icyapa cyitwa Yundayi, uru akaba ari uruganda rukora amamodoka meza ndetse rukabasha no kuyacuruza ku baturage batandukanye.

Imodoka nziza y'umukara iparitse ndetse hejuru yaho handitseho amagambo agaragaza yuko igurishwa, aha hanga umuntu akaba yayigura ufite amafaranga hanyuma akayikoresha mu buryo bwogukora ingendo.

Abantu batatu ndetse bari kumwe n'umwana, iruhande rwabo hakaba hari imodoka nziza, bakaba bafashe ikigaragara nk'urufunguzo, ahangaha akaba ari ikigo kitwa Akagera, ikigo gicuruza ama modoka ku bantu batandukanye.

Imodoka iparitse ndetse hejuru yayo haragaragara marike yayo, bikaba bigaragara yuko irimo gucuruzwa ku buryo umuntu waba ufite amafaranga bavuze, ashobora kugenda akayigura hanyuma akayigira iye.

Imodoka nziza iparitse bikaba bigaragaza yuko ufite amafaranga ashobora kuba yagenda akabasha kuba yayigura hanyuma akazajya abasha kuyigendamo aho agiye hose.

Imodoka z'umweru ziparitse ahantu izingizi zikaba ari imodoka ziba zishobora kuba zagurishwa aho zidufasha mu bintu bitandukanye harimo kuba twazigendamo cyangwa se tugatwaramo ibintu bitandukanye.

Imodoka nziza iparitse ndetse aha ngaha bikaba bigaragara ko irimo kugurishwa aho umuntu ufite amafaranga ukeneye ikinyabiziga ashobora kugenda akayigura hanyuma akayijyana iwe.

Abantu batandukanye bafite impano zitandukanye muntoke za bo ndetse iruhande rw'abo haparitse imodoka nziza biragaragara yuko ari ikigo gishinzwe kuba cyagurisha imodoka kubantu bazikeneye.

Inzu nziza iparitsemo imodoka aha ngaha akaba ari ahantu umuntu ashobora kujya igihe cyose yaba akeneye imodoka bakaba bayimuhereza akayigura ku giciro we yifuza kuyigura.

Imodoka nziza iparitse ndetse hejuru hakaba hari amagambo y'ikirango cyayo, ikaba ari imodoka ya toyota' iyi ikaba irimo kugurishwa umuntu wese waba ufite amafaranga bavuze ashobora kuba yagenda akayigura.

Imodoka ziparitse muri parikingi y'inzu, ndetse hagaragara n'icyapa cyanditseho ijambo yundayi urunguru rukaba ari uruganda rukora amamodoka meza, hanyuma rukagenda ruyajyana mu bihugu bitandukanye, abafite amafaranga bakaba babasha kugura izo modoka.

Imodoka iparitse ndetse hejuru yayo hakaba hari amagambo ayihanga ndetse haragaragara yuko irimo kugurishwa, hariho n'igiciro cy'amafaranga aho umuntu waba uyafite yagenda akayigura.

Abantu babiri bahagaze, ndetse inyuma yabo hakaba haparitse imodoka, bakaba bafite urufunguzo rw'urukorano, aho bagaragaza yuko ari ikigo cyitwa Akagera, gicuruza amamodoka ku bantu batandukanye.

Abantu babiri umwe akaba yicaye, undi akaba ahagaze arimo kubara amafaranga, bigaragara y'uko ari ikigo cy'imari aho umuntu agenda akabikuza amafaranga, cyangwa se akaba yanayabitsa.

Amafaranga ari ku meza apanze kandi menshi, ndetse n'akamashini kabugenewe ko kubara amafaranga no kuyagenzura aho tubona ko amafaranga atugirira agaciro kenshi cyane, kuko duhahamo ibyokurya ibyo kwambara ndetse n'ibindi bintu byose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibiceri bibiri bigaragara hano, aya akaba ari amafaranga ushobora kwifashisha mu kugura ibintu bitandukanye, harimo imyenda, harimo ibyo kurya, harimo n'ibindi bintu byose dukenera muri ubu buzima bwa buri munsi.

Abantu bicaye ndetse imbere yabo hakaba hari imashini za mudasobwa, ndetse n'utumashini twagenewe kugenzura ndetse no kubara amafaranga, hakaba hagaragara n'umuntu ufashe amafaranga mu ntoki, aha ngaha hakaba ariho abantu bajya kubikuza ndetse no kubitsa amafaranga yabo.

Abantu babiri umwe akaba arimo aratanga amafaranga. Aha ngaha bakaba agaragaza yuko umuntu ashobora kuba yabitsa ndetse akabikuza amafaranga yifashishije ibigo by'imari.

Umuntu uhagaze ndetse akaba imbere yiwe hagaragara amafaranga y'ubwoko butandukanye ndetse haragaraga akamashini kabugenewe ko kubara amafaranga, aha ngaha akaba ari uburyo bwiza bwo kumenya umubare w'amafaranga ndetse no kumenya uburyo wabasha kuyakoreshamo muburyo bwiza.

Indobo ebyiri ziteretse ku meza hakaba harimo amandazi, ndetse na keke ibi akaba ari ibiribwa bikorwa mu ifarini, aho bijyanwagacuruzwa hanyuma ubikeneye wese akaba yabibona.

Indobo ebyiri z'umweru ziteretse ku meza, imwe ikaba irimo amandazi ndetse na keke, ibi akaba ari ibibwa tubasha kurya bikorwa mu ifarini.

Inzu iparitse mo igare, ndetse imbere yayo hakaba hagaragara moto ihetse igicuba n'akajerekani k'umweru, ahangaha akaba ari mu iduka ry'amata aho umuntu ashobora kujya hanyuma agahaha amata.

Iduka rya Mukamira ririmo ibintu bitandukanye yaba amata ndetse na za yahurute ndetse na ji, uru ruganda rukaba rushinzwe gutegura amata neza kugira ngo tubashe kuyabona ari meza anaryoshye.

Umuntu uhagaze wambaye igisarubeti cya oranje, ndetse amagambo yo ku igisarubeti yanditswe mu ibara ry'umukara, haragaragara iruhande rwe amatereyi y'amagi, amagi adufasha kugira ngo tubashe kuba twagira ubuzima bwiza.

Ubantu babiri; umwe akaba ahagaze, undi akaba yunamye, afite igikombe, akaba ari kuvoma amata mu cyuma cyiza cyabugenewe, ahangaha akaba ari uruganda rwitwa Inyange, rudufasha rukatugezaho amata meza rwateguye neza.

Ibikoresho bitandunye harimo twifashisha harimo intebe n'ameza yoguterekaho ibintu haragaragara na etajeri irimo amajerekani y'umweru ndetse hakagaragara n'indobo haragaragara kandi n'imashini yabugenewe yo kubika amata ndetse no kuyatunganya.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse haragaragara icyapa hejuru cyanditseho Mukamira, uru akaba ari uruganda rutegura amata neza, aho rutegura na za yawurute ndetse hakaba hagaragara n'imashini itegura amata ndetse inayabika neza.

Intebe zitandukanye ndetse na firigo ndetse haragaragara umuntu uhagaze, haragaragara n'icyapa cyanditseho Mukamira, uru akaba ari uruganda rushinzwe gutegura amata meza kugira ngo tubashe kuyanywa aryoshye.

Ibinyobwa bitandukanye biri muri etajeri, harimo; ji ndetse n'amazi, n'amata, haragaragara n'imashini Kandi yabugenewe ibika amata meza, ibi byose bikaba bikorwa n'uruganda rwitwa Inyange Milk Zone.

Inzu ifite umuryango uriho icyapa Ikaze dayari ndetse no hejuru yaho kikaba gihari, iri akaba ari iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye bigendanye n'amata na zayawurute ndetse n'amazi byose binyobwa.

Ameza ateretseho utujerekani tw'amata ndetse hariho n'ijage, hakaba hagaragara umuntu ufashe ijage uri gusuka amata mu kajerekani, ndetse haragaragara n'undi uhagaze hanze, utegereje, hanyuma hakagaragara na none imashini yabugenewe ibikwamo amata.

Icyapa kiriho abantu babiri, umwe akaba ateruye ikarito, akaba afashe na telefone mu ntoki, undi akaba afite mudasobwa mu ntoki, ndetse na telefone, hakaba handitseho ijambo emutiyene, iki akaba ari ikigo, kidufasha muri serivisi zitandukanye harimo kwishyura ibicuruzwa, ukoresheje telefone.

Abantu babiri ndetse umwe akaba afashe telefone ndetse hakaba handitse ijambo MTN, aho bari kugaragaza uburyo bukoreshwa n'iki kigo cya MTN, umuntu akishyura akoresheje telefoni yiwe hanyuma ibicuruzwa byose yahashye akabasha kubyishyura.

Icyapa kigaragaza uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga, harimo kwishyura ibicuruzwa, aho umuntu ashobora gukoresha telefone ngendanwa, akaba yabasha gukura amafaranga kuri telefoni akabasha kwishyura, cyangwa se akaba yanayakura kuri banki akoresheje telefone.

Abantu batandukanye bahagaze ndetse hakaba harimo umwe urimo hagati wambaye umupira w'umuhondo wanditseho MTN, aha hakaba harimo kwamamazwa uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga hishyurwa ibicuruzwa bitandukanye hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Icyapa kigaragaraho telefone ndetse bikaba bigaragara y'uko ari ukwamamaza uburyo bwakoreshwa bwo kwishyura amafaranga, harimo kwizigamira kugira ngo mu gihe runaka uzabashe kuyakoresha.

Icyapa kiriho ikiganza gifashe telefone ndetse hagaragara n'icyapa kigaragaza ko umuntu ashobora gusikana hanyuma akamenya ibicuruzwa akoresheje telefone ndetse akamenya n'ingano y'amafaranga yakwishyura ndetse akishyura akoresheje iryo koranabuhanga.

Icyapa kigaragaza uburyo bukoreshwa mu ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora gufata telefone ye cyangwa se mudasobwa, hanyuma akabasha kwishyura ibicuruzwa byose yaguze, atavuye aho ari ahubwo akoresheje telefone ngendanwa.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, uru rukaba rwifashishwa n'ibigo by'imari amabanki, rugaragaza amafaranga uburyo agenda atangwa yaba ari ukubikuzwa cyangwa se kubitswa.

Urupapuro rw'umweru, ndetse amagambo akaba yandikishijwe mu ibara ry'umukara, uru rukaba rutangwa na Rwanda reveni osoriti, ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro, aho kiba kigaragariza ikigo runaka ko nta mwenda w'umusoro kirimo.

Urupapuro rw'umweru, amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara, uru akaba ari urupapuro rutangwa n'ikigo cyitwa rwanda reveni otoriti gishinzwe isoresha mu baturage b'igihugu.

Urupapuro rw'umweru, amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara, hakaba ariho ikigo Rwanda reveni otoriti, iki kikaba ari ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro, rupapuro rukaba rumenyesha umuntu ko yishyuye imisoro runaka.

Urupapuro rw'umweru ndetse amagambo akaba yanditswe mu ibara ry'umukara, uru rukaba rugaragaza amafaranga ibigo runaka biba byaragiye byinjiza cyangwa se bisohora mu gihe runaka, mu bijyanye n'iterambere ry'ibigo runaka by'imari.

Urupapuro rw'umweru ndetse rukaba rugaragara mu magambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara, iyi ngiyi ikaba ari inyemezabwishyu isohoka igaragaza yuko wamaze gusora umusoro wose wagombaga gusora.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo RDB, uru rukaba rutangwa ku kigo runaka cyasabye yuko gishaka gukora ubucuruzi runaka, hanyuma RDB ikabyemeza yuko icyo kigo cyemerewe gukora.

Urupapuro rw'umweru ndetse hakaba ariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hakaba ari ikirango cya Rwanda Revenue Authority, iki KIkaba ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahooro.

Urupapuro rw'umweru ndetse inyuguti zikaba zandikishijwe mu mukara, urunguru rukaba rugaragaza ko umuntu aba yaramaze kwishyura amafaranga, cyane cyane ibigendanye n'umusoro.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, uru rukaba rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro, aho kiba kigaragaza yuko ikigo runaka nta musoro gifite.

Urupapuro rw'umweru ndetse amagambo akaba yandikishijwe umukara, uru rukaba rutandwa n'ikigo cyitwa Rwanda reveni otoriti, iki kikaba gishinzwe imisoro n'amahoro, aho kiba cyerekana ko ikigo runaka nta musoro gifite.

Umuntu ugaragara ufasha amafaranga mu ntoki, ndetse tukaba tubona agaciro k'amafaranga; aho adufasha mu guhaha ibicuruzwa bitandukanye, ndetse akadufasha no mu bijyanye no kubitsa no kubikuza, ndetse tukizigamira kugira ngo tuzagire ejo heza hazaza.

Amafaranga atandukanye arimo amayero, amadorari ayangaya akaba yifashishwa ku isi hose, aho umuntu ashobora kuyabona ayavunjishije cyangwa se akayabona bayamuvunjiye.

Icyapa kiriho amafaranga atandukanye. Aha bakaba bashaka kugaragaza yuko bakora ivunjisha, aho umuntu ukeneye amafaranga ko bayamuvunjira bamufasha.

Umuntu ufashe amafaranga mu ntoki, amafaranga atagirira umumaro mu kuyahahisha ibiribwa, ibyo kwambara, ndetse bakaba bagaragaza yuko ushobora kuyavunjisha, aho ujyana amafaranga runaka, ayo ushaka bakaba bayaguha.

Ibiganza bifashe amafaranga, bigaragara yuko harimo gusuzuma niba amafaranga ari mazima, kuko amafaranga atugirira umumaro mwinshi cyane, kuko adufasha kuba twayahahisha ibintu bitandukanye birimo ibyo kurya n'ibyo kwambara.

Urupapuro ruri ku meza hariho imibare yandikishijwe mu ibara ry'umukara ndetse hari intoki zifashe ikaramu mu ntoki, iruhande hagaragara amafaranga atandukanye harimo inote ndetse n'ibiceri, aya ngaya akaba akoreshwa mu gihe bari kuvunjira abakiriya.

Umuntu ufashe amafaranga atandukanye aha bikaba bigaragaza agaciro k'ifaranga ndetse n'akamaro k'amafaranga adufasha kugura ibintu bitandukanye, haba ibyo dukoresha mu buzima bwa buri munsi cyangwa se ibyo twaba dufite mu gihe runaka ndetse n'igihe kirekire.

Inoti y'amafaranga, aha ngaha hakaba hagaragara agaciro k'ifaranga ndetse n'uburyo ifaranga rishobora kubungabungwa, kuko ritugirira umumaro utandukanye wo gukemura ibibazo bitandukanye, turayahahisha, ndetse tukabasha kuba twayabitsa, tukayabikuza kugira ngo turusheho kwiteganyiriza.

Umuntu wicaye, ikiganza cy'iwe kimwe kikaba gifashe kuri mudasobwa, ikindi kikaba gifashe amafaranga ndetse akaba ari gushyira mu kubaka ubugenewe gashinzwe kubara no kugenzura amafaranga.

Akazu kariho ibirango bigaragaza ahantu bashobora kuba bavunjira abantu amafaranga ndetse bakaba bashinzwe n'igura n'igurisha ry'amafaranga, haragaragara abantu batandukanye bashaka iyo serivisi.

Inzu iriho ibirango by'umutuku ndetse n'umweru, hakaba handitseho ijambo MoneyGram, akaba ari ikigo gikora serivisi zijyanye no kuba cyavunja amafaranga y'abantu batandukanye mu gihe bakeneye kuvunjisha.

Akazu kari mu mabara y'umutuku ndetse hakaba ahagaze imbere umuntu, iki kikaba ari ikigo gishinzwe ibijyanye n'ivunjisha ndetse n'igura n'igurisha aho umuntu ashobora kuba afite amafaranga runaka akeneye kuyavunjisha bakayamuvunjira.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, amagambo akaba yanditswe mu'ibara ry'ubururu ndetse haragaragaraho n'imibare iri mu ibara ry'umutuku no mu ibara ry'umukara, aha ngaha hakaba hagaragaza ikigo gishinzwe kuba cyavunjisha, hanyuma umuntu ufite amafaranga akaba yagenda bakamuvunjira bakamuha amafaranga akeneye.

Akazu kagaragaraho ibirango bigaragaza yuko bakora ivunjisha ry'amafaranga, ndetse bagakora n'igura n'igurisha, aho umuntu aba afite amafaranga runaka akeneye ko bamuvunjira hanyuma bakabikora.

Akazu kagaragaza ko aha hantu habera ibijyanye n'ivunjisha ndetse aha ngaha umuntu akaba ajyana amafaranga akabasha gusaba ayo akeneye hanyuma bakamuvunjira.

Akazu kagaragara yuko harimo ikigo gishinzwe ivunjisha ndetse n'igura n'igurisha, aho umuntu ukeneye amafaranga runaka agenda bakamuvunjira hanyuma akaba yafata yamafaranga akajya kuyakoresha aho akeneye kuyakoresha.

Umuntu wicaye imbere y'ahantu harimo ibikoresho bitandukanye harimo utubati, harimo ibitanda, harimo matera, harimo isanduku ndetse harimo n'abantu batandukanye aha bakaba bahita mu Gakiriro habamo ibikoresho bitandukanye bigezwa ku bantu mu ngo zabo.

Intebe nziza zo kwicaho ndetse n'ameza meza yo guterekaho ibintu, ibi akaba ari bimwe mu bikoresho bikorwa bikajyanwa mu ngo, bikajyanwa mu mahoteli ndetse n'amaresitora, hanyuma bigakoreshwa umumaro wabyo.

Intebe zikozwe mu mbaho, ndetse n'amezaza akozwe mu mbahoho n'ikirahure, ibi akaba ari ibikoresho bishobora kwifashishwa haba mu ingo, haba amaresitora, amahoteli, kugira ngo abantu babashe kuba bakwicara ndetse babashe no kuba barira ku meza.

Ibikoresho bitandukanye birimo ameza ndetse n'utubati, ibi akaba ari bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu rugo, mu mahoteli, mu maresitora ndetse n'ahandi hose. Bikaba bidufasha mu kubyicaraho ndetse no guterekaho ibintu no kubikamo ibintu.

Akazu gakozwe mumbaho aka kakaba gashobora kwifashishwa mubikorwa bitandukanye, haba murugo ndetse no mumarestora, mu mahoteri kugira ngo bagerageze kuba babikamo ibintu byo kwifashisha.

Akabati keza gakoze neza umuntu ashobora kuba yaterekaho televiziyo, ndetse akangaka umuntu ufite amafaranga akaba abasha kuba yakagura, akakajyana agakoresha ibintu bitandukanye, ndetse akaba yanabikamo n'amafoto n'ibindi bintu bya buri munsi.

Ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndetse n'amezaza, bikorwa ndetse bikaba ibingibi bishobora kuba byajyanwa mu rugo, mu mahoteli, mu maresitora, hanyuma bikagira umumaro mwinshi cyane, haba intebe zicarwaho cyangwa se ameza aterekwaho ibintu.

Intebe nziza ikoze neza, iyi ukaba wayitunga mu rugo, ndetse mu mahoteli bashobora kuyitunga no mu maresitora n'ahandi hantu hatandukanye, no mu biro, hanyuma ikaba yagira umumaro wo kuyicaraho.

Intebe nziza zikozwe mu mifariso ndetse haragaragara n'ameza meza, ibi ngibi akaba ari bimwe mu bikoresho umuntu yatunga iwe mu rugo, bikamufasha kuba ya kwicara ndetse akabasha no kuba yaterekaho ibyo kurya hanyuma agafungura.

Ahantu harimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, ameza, ndetse garagara ko ari heza, akaba ari muri hotel, aho umuntu ashobora gusohokera akaba yajya kuruhukirayo.

Ibikoresho bitandukanye, birimo ameza ndetse n'uburiri bwo kuryamaho, ahangaha akaba ari muri hoteri, aho umuntu ashobora gusohokera kugira ngo aruhuke mu mutwe cyangwa se ashaka no kwishimisha.

Inzu nziza yubatse neza, biragaragara y'uko ari muri hoteri, aho abantu bakunze gusohokera mugihe bakeneye kwishimisha cyangwa se mugihe cyose bakeneye kuba baruhuka.

Amafurusheti, ibiyiko ndetse n'ibirahure biteretse neza ku meza, hamwe n'intebe zo kwicaraho, ndetse haragaragara n'akabari. Ahangaha akaba ari muri hoteri, aho umuntu ashobora gusohokera kugirango ngo yiyakire ndetse anaruhuke mu mutwe.

Ibikoresho byiza harimo intebe ndetse n'ameza bikaba biri mu nyubako nziza ndetse ahangaha bikaba bigaragara ko ari muri hoteli aho abantu basohokera igihe bakeneye kwinezeza ndetse no kuruhuka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ndetse haragaragara n'amazu meza y'amagorofa, hakaba hari n'izina ry'ikigo cyitwa Buritamu, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'ubwisungane, mu ngorane zose umuntu yahura na zo.

Inzu nini y'igorofa ndetse haragaragaraho icyapa cy'izina ry'ikigo, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi, aho cyishingira abantu ku bijyanye n'ingaruka zaba kuri bo, haba hari ibihombo runaka.

Ibikoresho byiza biteretse mu nzu nziza, aha bikaba bigaragara yuko ari ikigo gishinzwe ubwishingizi aho gifasha abantu mu buryo butandukanye, kubishingira ku nkongi z'umuriro ndetse n'ibindi bintu bishobora byaba, byabaye ingorane kuri bo.

Akazu k'ibiro ndetse hagaragaraho ibyapa biriho ibirango by'amazina ya mowa ndetse na ekwiti, ibi akaba ari ibigo bishobora gukoreshwa mu bwishingizi, aho umuntu ashobora kuba yakwishingirwa, kugira ngo yirinde ingaruka z'ejo hazaza.

Inzu nziza y'igorofa iriho ibirango ndetse akaba ari ikigo cyitwa purayime inshuwarensi, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho gifasha abaturage kuba bakwishinganisha kugira ngo birinde ingorane runaka zabageraho.

Abantu batatu bicaye imbere, aha ngaha akaba ari ku biro bya Pirime, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi aho gifasha abantu batandukanye kikabishingira kugira ngo batazahura n'ingorane runaka, bakabura uwabafasha gukemura ibibazo.

Abantu bicaye ku meza atandukanye ndetse imbere yabo hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse hakagaragara n'icyapa kiriho ijambo Allianz, iki kikaba ari ikigo cy'ubwisungane aho gifasha abaturage muri serivisi zitandukanye zijyanye no kubishingira mu ngorane bahura nazo.

Akazu kariho ibirango by'ikigo cya beka ariko hakaba hari kwamamazwa ibijyanye n'ubwishingizi ahangaha beka ikaba ifasha abantu kubishingira mu bijyanye n'inkongi bahura nazo.

Inzu y'igorofa ikaba iriho icyapa cyanditseho sonarwa, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'ubwisungane, aho gifasha abantu muri serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Imodoka iparitse mu muhanda ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda, hakagaragara inzu y'igorofa, ndetse kuri iyo nzu hakaba hari icyapa kiriho izina yuwapu; iki nacyo kikaba ari ikigo cy'ubwisungane ndetse n'ubwishingizi, aho gifasha umuturage kuba yakwishinganisha.

Abantu batandukanye bahagaze ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa hakaba hagaragara icyapa cyiriho izina saniramu, iki akaba ari ikigo cy'ubwisungane ndetse n'ubwishingizi, aho gifasha umuntu kuba yakwishinganisha.

Inzu nziza ndetse ikaba iriho icyapa cyanditseho Radiyanti, iki akaba ari ikigo cy'ubwishingizi ndetse n'ubwisungane, aho gifasha umuturage kugira ngo abe yabasha kwisungana mukwivuza.

Abantu babiri umwe akaba ateruye undi ndetse hariho n'izina ry'ikigo cya Bpr iki akaba ari ikigo kimari gishinzwe gutanga inguzanyo ku bantu bayikeneye hanyuma nabo bakiteza imbere.

Icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba hagaragaramo n'indangururamajwi, hakaba handitseho na beride iki kikaba ari ikigo kidufasha mu kuba twa kwiguriza inguzanyo dukeneye, kugira ngo tube twakora ibikorwa by'iterambere.

Intebe nziza, ameza ndetse na etajeri ndetse biragaragara yuko ari mu kigo gishobora kuba cyaba ari banki aho umuntu ashobora kugenda agafata inguzanyo hanyuma akazayishyura mu gihe runaka.

Icyapa kiriho umuntu ndetse kikagaragaraho n'izina ry'ikigo kitwa Equity, iki akaba ari ikigo k'imali aho gifasha abantu mu kuba babona inguzanyo, hanyuma nabo bagakora ibikorwa byabo mu buryo bw'iterambere, kugira ngo bihutishe iterambere ryabo.

Icyapa cy'ubururu kiriho amashusho y'abantu batandukanye ndetse haragaraga n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru hakaba handitseho ijambo Bk, iki akaba ari ikigo k'imari gishinzwe kuba cyatanga inguzanyo k'umuntu uyikeneye.

Aha haragaragara icyapa kiriho amafoto y'abantu babiri, aha bakaba barimo kwamamaza ibijyanye n'uko hafatwa inguzanyo cyane cyane abagore, uruhare rwo kugira ngo biteze imbere.

Inzu nziza yubatse neza ikaba igaragaraho icyapa, aha akaba ari ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo, kugira ngo gifashe umuturage mu kuba yakwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Icyapa kiriho umuntu ufite telefone ku gutwi, ndetse bikaba bigaragara yuko ari ikigo cya banki ya akisesi, aho ifasha abantu batandukanye, ibaguriza inguzanyo kugira ngo biteze imbere, bikure mu bukene.

Imodoka ziri mu muhanda ndetse n'abantu batandukanye, ndetse hagaragara n'inyubako nini akaba ari iduka, aho hacururizwamo ibintu bitandukanye, birimo imikufi ndetse n'ibintu bishingiye cyane cyane kuri zahabu.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye harimo ibikapu, harimo imyenda, harimo inkweto ndetse haragaragara n'abantu bicaye mu iduka; aha ngaha umuntu ufite amafaranga akaba yagenda agahaha icyo akeneye cyose.

Isoko rigaragaramo amatureyi y'amagi menshi ndetse haragaragara n'abantu batandukanye batanga ibicuruzwa, ahangaha akaba ariho umuntu ashobora kuza akagurira amagi atandukanye hanyuma akagenda kuyarya ndetse akaba yatekamo n'ibindi.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ndetse haragaragara n'abantu batandukanye bagiye mu isoko, ahangaha akaba ari ahantu abantu bashobora kujya igihe cyose bakeneye icyo kugura bajyana mu rugo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ahangaha hakaba haba harimo ikintu cyose umuntu yakenera aho umuntu ufite amafaranga wese aba ashobora kujyayo hanyuma agaha icyo ashaka cyose.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, y'a ibijumba, amapapayi, ibitoki ndetse harimo n'abacuruzi batandukanye, hakaba hagaragaramo n'abantu baje kugura, ahangaha umuntu ufite amafaranga wese akaba yaza kugura icyo ashaka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo; ibyo kurya, imyumbati, ibirayi, bijumba, karoti ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, haragaragaramo n'abantu batandukanye bari mu isoko bari gucuruza ndetse n'abaje guhaha.

Isoko ririmo imyenda igiye itandukanye ndetse haragaragaramo n'abantu bicaye kumashini barimo kudoda, hakagaragara n'abandi kandi bategereje abakiriya ahangaha hakaba ariho umuntu ashobora kugurira umwenda yifuza.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho bitandukanye, ahangaha akaba ari ahantu umuntu ashobora gusohokera ashaka igikoresho runaka, kugira ngo akigure, akijyane mu rugo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo inyanya, ibitunguru, ibishyimbo ndetse haragaragaramo n'abacuruzi hamwe n'abaje muri iryo soko kwihahira ibyo bakeneye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye hagaragaramo cyane imyenda, ndetse hagaragara n'icyapa cya emutiyeni, kiriho kode umuntu ashobora kwishyuriraho, igihe cyose yamaze guhaha ibicuruzwa.

Abantu babiri bambaye imipira y'imihondo, ndetse umwe akaba yambaye umupira w'umukara, akaba afashe icyapa cya emutiyeni, kigaragaraho kode yifashishwa mu kuba yakwishyura ibicuruzwa bitandukanye, hakoreshejwe telefone ngendanwa.

Akazu gasize irangi ry'umuhondo, mo imbere hakaba harimo umuntu urimo uratanga serivisi, aka kazu kakaba ari aka emutiyene, ndetse hakaba hagaragara abantu batandukanye baje gusaba serivisi zose emutiyene itanga, zirimo amakarita, ndetse no kuba babitsa bakabikuza n'amafaranga bakoresha telefoni ngendanwa.

Umuntu ufashe telefone mu ntoki ndetse imbere yiwe hakaba hari ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa, ahangaha akaba agaragaza ko ashobora gufata telefone akaba yakwishyura ibicuruzwa bitandukanye akoresheje ikoranabuhanga rya telefone.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse amagambo n'imibare biriho bikaba yanyanditswe mu nyuguti z'umukara hakaba hariho ikirango cya terefone ndetse n'ijambo emjutiyene, iki kikaba ari ikigo kidufasha muri serivisi zitandukanye z'itumanaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kigaragaraho abantu ndetse akaba ari akazu k'itumanaho ka Emutiyeni aha ngaha akaba ari ikigo gitanga serivisi z'itumanaho zijyanye n'amatelefone ndetse zikadufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga kubitsa no kwikuza dukoresheje telefone.

Icyapa kigaragaza ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kwifashisha telefone cyangwa se mudasobwa, hanyuma agatumiza ibintu ari mu rugo, bakabasha kubimugezaho.

Icyapa kiriho umuntu wambaye ekuteri, akaba afashe telefone mu ntoki, imbere ye hakaba hateretse agapfunyika, ndetse iki kikaba cyamamaza uburyo wakora ubucuruzi mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse ukaba wagura ibintu utavuye iwawe ahubwo ugakoresha telefone maze ugahaha ibyo byose wifuza.

Amazu atandukanye ariko ahangaha akaba ari kwamamazwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigaragara yuko ari ahantu bacuruza ndetse aho umuntu ashobora kujya kuri telefone yiwe no kuri mudasobwa akaba yatumiza ibintu bihakorerwa bakabasha kubimuzanira.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, imbuto ndetse n'ibindi biribwa, aha ngaha hakaba hari kwamamazwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kuba yakwifashisha telefone cyangwa se mudasobwa akaba yatumiza ibiribwa hanyuma bakabimugezaho atavuye aho ari.

Icyapa kiriho isaha igaragaza igihe ndetse hakagaragara n'amagambo atandukanye asobanuye kwihutisha serivise. Bakaba bagaragaza uburyo bakora kugirango bafashe abakiriya bahashye ibintu, babibagezeho batavuye mu ngo zabo mu buryo bwihuse.

Urupangu rufite urugi rw'umukara mo imbere hakaba harimo inzu ndetse bikaba bigaragara y'uko bari kwamamaza y'uko iyo nzu igurishwa bakaba berekana igiciro cy'amafaranga y'iyo nzu ku buryo umuntu waba uyafite yabasha kuyegukana.

Abantu babiri bahagaze umwe akaba ari umugore undi akaba ari umugabo, haragaragaramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, harimo intebe ndetse n'ameza ndetse haragaragaramo n'ibindi bikoresho bitandukanye muri etajeri bishobora gukoreshwa, harimo inzoga ndetse harimo n'ibindi bintu bitandukanye bishobora gukoreshwa.

Igipangu gifite urugi rw'umukara ndetse mo imbere hakaba harimo inzu nziza, bikaba bigaragara yuko ari inzu ishobora kuba yagurishwa aho umuntu ufita amafaranga bavuze ashobora kugenda akabasha kuyigura igahinduk iye.

Inyubako nziza zubatse neza, hakaba hagaragara yuko hari imiturire, aho umuntu ufite amafaranga, ashobora kujya kuyakodesha hanyuma akabasha kuba yaruhuka, ari ahantu heza.

Abantu babiri umwe akaba ari umugabo wambaye ishati y'umweru undi akaba ari umugore hagaragara ibikoresho byiza harimo intebe ndetse n'utubati, ndetse hagaragara n'ibindi bintu bitandukanye bigaragaza yuko ari inzu nziza, bigaragaza imiturire myiza ishobora kuba yagera ku muturage.

Inzu nziza irimo ibikoresho byinshi kandi byiza, bigaragara y'uko ari iyo gukodeshwa, aho umuntu ufite amafaranga baba bavuze, aba ashobora kugenda akayikodesha.

Firigo nziza igaragara mu nzu nziza, ahangaha bakaba bagaragaza yuko ari inzu nziza, imiturire myiza, ku muntu waba ukeneye kuba yajya kubamo ashaka gukodesha, ko yagenda bakumvikana ku giciro, hanyuma akabasha gukodesha.

Hagaragara ikidendezi twita piscine, aha ngaha akaba ari aho abantu bashobora kuba basohokera igihe bashaka koga, ibi bikaba ari bimwe mu biranga ahantu ko hubatse neza.

Inzu nziza yubatse neza ndetse biragaragara yuko hari kwamamazwa yuko ikodeshwa. Iyi ngiyi akaba ari imyubakire myiza, aho baba barubakiye abantu kugira ngo niba hari abakeneye gukodesha babe bajya gukodesha.

Inyubako nziza irimo ibikoresho byose byiza yaba uburiri, aha ngaha hakaba hagaragaza ko umuntu ufite amafaranga ashobora kuba yagenda agakodesha, hanyuma akabasha kuba yaruhukira ahantu heza.

Inzu nziza yubatse kandi irimo ibikoresho, ah bakaba bagaragaza y'uko, iyi nzu ishobora kuba yagurishwa mu gihe umuntu yaba afite amafaranga ahwanye n'ayo basaba yayigura ikaba iye.

Amazu meza yubatse neza akaba agaragaza imiturire myiza ndetse akaba yaragenewe kugira ngo ufite amafaranga abe yabasha gukodesha, kandi akodesha ahantu heza.

Ibikoresho bitandukanye birimo firigo ndetse, bikabamo na gaze kwizniyeri, kabamo ndetse n'akabati akagaragaza inzu nziza, irimo igikoni cyiza ndetse ishobora kuba yanagurishwa.

Inyubako nziza irimo n'ibikoresho bitandukanye, aha bakaba bagaragaza yuko ishobora gukodeshwa ku kwezi, ndetse berekana n'igiciro, ku buryo umuntu waba ufite ayo mafaranga ashobora kugenda akaba yayikodesha.

Ibikoresho bitandukanye birimo uburiri cyangwa se igitanda, hakabamo akabati biri munzu nziza. Aha ngaha bakaba bagaragaza yuko iyi nzu yemerewe guturwamo, aho umuntu ufite amafaranga runaka ashobora kugenda akaba yayikodesha.

Urugi rwiza ruri ku nzu, ndetse hejuru haragaragara igiciro cy'amafaranga ashobora kugura iyo nzu, ahangaha umuntu ufite ayo amafaranga akaba yagenda, hanyuma bakumvikana igiciro, bakamuha inzu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kigaragaramo mubazi ndetse kikagaragaramo n'ikaramu ahanga bakaba bari kwerekana ibijyanye n'imiturire, aho umuntu ashobora kuba akeneye inzu nziza akaba yabasha kuyibona ku giciro cyiza.

Inzu nziza yubatse neza, ndetse biragaragara y'uko iri kugurishwa, aho hagaragararaho n'igiciro ndetse n'aho iherereye, umuntu ufite amafaranga baba bavuze, abafite ubushobozi bwo kugenda bakayimuha, hanyuma igahinduka iye.

Inyubako nziza igaragara, ndetse biragaragara yuko ari ahantu heza hashobora gukodeshwa, hagaragaza n'igiciro hakodeshwa, aho umuntu waba ufite ayo mafaranga ashobora kugenda akaba yabasha kuhatura.

Icyapa kigaragaza kwamamaza imiturire, aho baba bagaragaza yuko ari ahantu hubatse neza, umuntu wese ufite amafaranga waba wifuza kuba yakodesha ahantu heza, akaba yagenda maze akabasha kuhatura.

Umuntu uhagaze wambaye neza ndetse inyuma yiwe hakaba hari inyubako nziza y'inzu. Bikaba bigaragara yuko hari kwamamazwa inzu nziza, kuburyo umuntu uyikeneye ashobora kuba yayibona.

Inzu nziza zubatse neza, ndetse hano hakaba hari gukorwa iyamamaza ko umuntu ukeneye gukodesha izi nzu, ashobora kuba yavugana n'ababishinzwe hanyuma bakamubwira igiciro akaba yabasha gukodesha izi nzu.

Inzu nziza yubatse neza aha ngaha hakaba hagaragara yuko hari kwamamazwa yuko hari inzu nziza ishobora kuba yakodeshwa hanyuma uwabona ayikeneye akaba yajyana amafaranga asabwa hanyuma bakaba bayimukodeshaho.

Igipangu cyiza kiri mu ibara ry'umutuku ndetse mo imbere hakaba harimo amazu meza y'amagorofa yubatse neza, aha ngaha bakaba barimo gukora, kwamamaza y'uko ayo mazu akodeshwa ndetse n'igiciro bakaba bacyerekana.

Inzu nziza igaragara, ndetse bikaba bigaragara y'uko igurishwa, aho umuntu ufite amafaranga agenda akumvikana nabo, maze akaba yabasha kuba yayigura ikaba iye.

Inzu igaragara ko yubatse neza yerekana ubwiherero ndetse n'ibyumba byo kuraramo, iyi ikaba irimo kwamamazwa y'uko ikodeshwa, aho umuntu ufite amafaranga aba yavuzwe aba ashobora kugenda akayikodesha.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse haragaragara abantu batandukanye baje guhaha ibicuruzwa, aho umuntu ufite amafaranga aba ashobora kubona icyo akeneye cyose. Hanyuma akagitahana.

Ibiribwa bitandukanye biri muri etageri, harimo amafu atandukanye y'igikoma, ndetse harimo n'ifiriti zitandukanye aha ngaha akaba ari mu iguriro, aho bita muri arimantasiyo aka ariho wasanga ibiribwa byose.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye harimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, hakaba harimo abantu batandukanye baje muri iryo duka. Ahangaha hakaba ari ahantu umuntu ashobora kugenda afite amafaranga yiwe, akagura icyo akeneye cyose.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse haragaragara umuntu uri gutanga serivisi z'ibicuruzwa, ndetse n'undi waje kwaka serivisi z'ibicuruzwa, ahangaha hakaba ariho umuntu ufite amafaranga yajya kugura icyo ashaka cyose.

Abantu babiri bicaye, ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, ndetse haragaragara n'ibicuruzwa bitandukanye, aba bakaba bashinzwe gushyira ibicuruzwa mu ikoranabuhanga, hanyuma hakamenyekana igiciro cy'ibyo bintu uko kingana.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye yaba se ibyo kurya, yaba ibyo kunywa, yaba ibikoreshwa mu isuku ndetse hagaragaramo n'abantu batandukanye baje kureba ibicuruzwa by'ibyo bakeneye kugira ngo babicyure mu rugo.

Iduka ritandukanye ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo inkweto amasakoshi meza ndetse hagaragaramo abantu batandukanye bashobora kugana iryo duka bakaba babasha guhaha icyo bakeneye muri ibyo byose.

Iduka ririmo ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, aha ngaha akaba ari aho abantu basohokera igihe cyose bafite amafaranga hari icyo bifuza kugura kugira ngo babe bagikoresha mu rugo.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye yababa se imyenda, yaba inkweto ndetse n'ibindi bintu abantu bashobora gukenera, aha ngaha akaba ari ahantu abantu bashobora kugenda bafite amafaranga bakagura ikintu cyose bakeneye bakagicyura mu rugo hanyuma bakazajya bagikoresha.

Iduka ririmo imyenda itandukanye, rikabamo ibijyanye n'amatapi, rikabamo n'ibindi bintu byose umuntu ashobora gukenera yakwifashisha, aha ngaha umuntu ufite amafaranga akaba ashobora kugenda agahaha icyo akeneye cyose akakijyana mu rugo iwe.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibiribwa bikomoka ku ifarini, harimo amafu y'igikoma, ndetse harimo n'ibikoreshwa mu isuku, aha ngaha umuntu akaba ajyayo akagura icyo akeneye, cyose akaba yagitwara mu rugo iwe akagikoresha.

Umuntu wicaye ndetse inyuma yiwe hakaba hari icyapa cyanditseho RSSB iki akaba ari ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi aho gifasha abari mu za bukuru kwiteganyiriza kugira ngo batazakena.

Icyapa kiriho umuntu hakaba hariho amagambo agira ati:'' Ejo heza.'' Iki akaba ari ikigo cy'ubwiteganyirize aho kiburira abantu ndetse abaturage muri rusange ngo biteganyirize kugira ngo ejo habo hazabe heza.

Umuntu wambaye agapfukamunwa akaba afashe icyapa kiriho amazina ndetse n'amafaranga yabonye ahangaha akaba ari ikigo cyitwa arasesibi ikigo gishinzwe ubwiteganyirize.

Abantu bicaye ku ntebe bigaragara yuko baje ahantu bategereje serivisi za leta, ndetse biteguye kuba bagira ngo biteze imbere bitewe na gahunda leta yashyizeho.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, akaba afashe icyapa kiriho amazina ndetse n'amafaranga yandikishijwe mu magambo, hakaba hagaragaraho ikigo arayesesibi, iki akaba ari ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, kugira ngo bamenye ejo haza hazaza uko bazaba bameze.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa bipanze neza muri etajeri, ndetse harimo n'ibinyobwa bitandukanye, ahangaha abantu bakaba baza bakareba ibyo bakeneye byose hanyuma bagahaha.

Abantu babiri, umwe akaba yambaye umupira wa oranje, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse haragaragara n'undi arimo kwakira, akaba arimo arashyira ibicuruzwa byose muri sisiteme, kugirango abashe kuba yamenyekanisha ku mukiriya, ibyo agomba kwishyura.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa cyangwa se ibinyobwa cyangwa se ibyifashishwa mu isuku, aha ngaha abantu bakaba bahaza igihe cyose bafite amafaranga hari icyo bakeneye kugura.

Iduka ridasanzwe, ririmo ibikoresho bitandukanye, harimo amaterimusi, harimo amasafuriya, harimo amasahani, ndetse hagaragaramo n'abantu batandukanye barimo barareba ibicuruzwa bitandukanye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, haba ibikoreshwa mu isuku aho twavuga nk'amasabune, ndetse n'ibiribwa, hakaba hagaragaramo n'abantu batandukanye, baje kwihahira ibiribwa cyangwa se n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, yaba se ibikoresho by'isuku, yaba ibyo kurya yaba ibirungo ndetse hakaba hagaragara umuntu nawe urimo kubitanga n'undi waje kubifata.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye yaba amavuta, yaba ibiribwa ndetse hagaragaramo abantu bashinzwe gufasha abantu baza guhaha kugira ngo barusheho kuba baha nta kibazo bafite, ndetse babashe no kwishyura neza.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka, amapikipiki ndetse haragaragara n'icyapa cya Simba, iri akaba ari iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye abantu bajya guhaha.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibyokurya, yaba ibyo kunywa, ahangaha abantu bakasha kuhasohokera mu gihe cyose bafite amafaranga haribyo bakeneye kuba bagura ngo bajyane muru rugo.

Iduka rinini ririmo abantu batandukanye, ndetse harimo n'ibiribwa bitandukanye bipanze neza muri etajeri. Ahangaha akaba ariho abantu bakunze kuba bajya kugura, ibintu byose bifuza ndetse bakeneye.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye bipanze neza muri etajeri, harimo ibijyanye n'ibyo kurya, harimo ibijyanye n'ibyo kunywa, aha ngaha akaba ari ahantu umuntu ashobora kugenda, igihe cyose akeneye icyo yagura, akaba yakibona hanyuma akagicyura iwe mu rugo.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, yaba se ibyo kurya, yaba se ibipapuro by'isuku, yaba n'ibindi bintu byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, ahangaha umuntu ufite amafaranga akaba yabasha kujyayo, agahaha icyo akeneye cyose.